Tugira abavuzi gakondo bavura indwara ziba zitandukanye; bavuza imiti y'ibyatsi, bafata ibyatsi byinshi bakabivangavanga bakavanamo umuti wo kutuvura twarwaye, habamo n'ibisheke, n'amababi y'ibishike n'ibindi byatsi byinshi biba bitandukanye.

Abavuzi gakondo bavura bakoresheje ibyatsi biba bitandukanye bafata bakavanga ,habamo imiravumba, imibirizi, imisave, imisange, n'inturusu za mayideni bakabivangavanga bikavamo umuti utuvura iyo twarwaye.

Tugira abavuzi gakondo, bavura indwara ziba zitandukanye, ni abavuzi bavura bifashishije ibyatsi, bafata ibyatsi by'ubwoko bwinshi, bakabivangavanga, bakabikoramo umuti, hakaba n'ubwo bafashe icyatsi kimwe kikavamo umuti, bitewe n'indwara urwaye, habamo ibicunshu, imibirizi, n'ibindi byatsi byinshi cyane biba bitandukanye.

Tugira abavuzi gakondo. Bifashisha ibyatsi, bafata ibyatsi by'ubwoko bwinshi bakabivanga hakavamo umuti. Iyo umuntu yarwaye basanga abavuzi bakamuvura. Habamo ibyatsi by'imigarura, imihengeri, n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye.

Tugira abavuzi gakondo bavura bakoresheje imiti y'ibyatsi, bafata ibyatsi by'amoko menshi bakabivangavanga bakavanamo umuti. Habamo inteja, imibonobono, imihengeri n'ibindi byatsi byinshi by'ubwoko butandukanye bakabiha umuntu urwaye agakira indwara akaba muzima.

Tugira abavuzi gakondo， bavura indwara ziba zitandukanye. Bavura bakoresheje imiti y'ibyatsi. Bafata imiti bakayivangavanga， cyangwa bakawufata ari umwe，bafata ibyatsi， habamo umugombe， uvura amahumane, n'ibindi byinshi cyane.

Mu muco nyarwanda tugira abavuzi gakondo baba batandukanye, bavura bakoresheje ibimera, bafata ibyatsi bakabivangavanga cyangwa bagafata icyatsi kimwe bitewe n'indwara urwaye, bafata n'ibibabi by'ibidodoki bakabivanga bikavamo umuti ukavura indwara.

Tugira abavuzi gakondo， bakoresha imiti y’ibyatsi iba itandukanye，bafata ibyatsi bakabisya，bakabivanga， bikavamo imiti ituvura indwara zacu，habamo imibirizi，ibisura n'ibindi byatsi byinshi， biba bitandukanye.

Abavuzi gakondo bafata ibyatsi biba bitandukanye， bakabivangavanga bagakuramo umuti. Iyo twarwaye bakawuduha tugakira， habamo ibyatsi by'ubwoko bwinshi， habamo ibibabi by'ibidodoki，ibibabi by'imisave， imibirizi n'ibindi byinshi cyane.

Mu muco nyarwanda tugira abavuzi gakondo, bavura indwara ziba zitandukanye, bavura bakoresheje imiti karemano bakoresha, ibyatsi by'ubwoko bwinshi buba butandukanye, habamo n'amababi y'ibidodori, habamo n'imibirizi n'ibindi byinshi cyane.